Icyapa kitwereka ahantu bacururiza ibinyobwa byo mu nganda harimo ubwoko bw'inzoga bugiye butandukanye, pirimusi mitsingi, ndetse bafitemo n'ibyo kurya bitandukanye harimo akabenzi inyama, burushete n'ibindi.

Uruhurirane rw'abantu bari mu isoko ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye harimo: ibiribwa ndetse n'ibiva mu nganda, mu biribwa harimo ibishyimbo by'ubwoko butandukanye, mu bituruka mu nganda harimo akawunga n'ibindi bigiye bitandukanye.

Isoko bacururizamo imyenda yo kwambara ku bagabo ndetse n'abagore, ku bagabo harimo amasogisi y'ubwoko butandukanye ndetse n'amabara atandukanye, naho ku bagore harimo iyo imyenda y'imbere ikunze kwita amakariso n'ibitambaro.